Umukozi w'ishami rishinzwe itumanaho, ari gufasha abantu mu buryo bw'itumanaho, mu kohereza. no kubikuza, harimo abagabo batatu n'abadamu babiri.

Abagenzi babiri, buri umwe ari kwishyura umuyobozi w'ipikipiki, bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Abakozi b' ishami ry'itumanaho MTN, bari gufasha abaturage mu kubagezaho itumanaho byihuse, haba harimo abagabo bambaye ingofero n'abadamu.

Icyapa cy'umuhondo kirimo ubururu, kigaragaza aho ishami rishinzwe itumanaho riri.

Inyubako iri kugurishwa, irimo amakaro, isize irangi, i ifite amadirishya, n'amatara.

Aho bacururiza ibiribwa bitandukanye, harimo imineke, insenda, tangawizi, indimu n'ibindi hagaze umukobwa ufite agakapu k'umweru.